Umukino, umukino uhanganye n'amatsinda abiri, harimo abakobwa, ni umukino w'amaboko urimo futuboro, baro hirya, abafana ntiwareba, bari kureba, abakinnyi nabo bari kwirwanaho kugira ngo barebe ko buri kipe yagira ite, yabasha gutsinda, n'abafana babo bari kubogeza, M.C, inde, bose barahari ntiwareba!